Ibyatsi bivamo imiti gakondo byakuze neza bisa n'icyatsi bifite uduti dutukura; ndetse akazuba kari kubivaho kugirango bibone imyunyu ngugu ibifasha gukura neza, bikazasarurwa bikorwamo imiti gakondo.

Ibyatsi byifashishwa mu kurinda isuri, byifashishwa mu gukora uruzitiro mu ngo zo mu cyaro, ibyatsi bituma biduha umwuka mwiza abantu duhumeka bisa n'icyatsi . Hari kuva izuba ribigaburira bikabasha gukura neza.

Indabyo ni ibimera byiza cyane, bifasha inzuki kubona ibizitunga, kandi bigatanga umwuka mwiza kubantu, umwuka duhumeka tuwukura mu bimera.

Ururabo rwiza rw'umweru ruri kumwe n'izindi ndabo, zifite andi mabara ahantu heza hari izuba ahandi hari ibigori, hariho indabo zituma ahantu hasa neza, mu rugo abakobwa bazifashisha kugira ngo urugo n'amarembo bibe bimeze neza.

Icyatsi cyitwa umubirizi gikorwamo imiti ya gakondo, icyatsi cyarakuze kiba kirekire ibindi bitondagira ku ruzitiro, ni ibyatsi byifashishwa cyane.

Mu murima hari itaka ry'umukara, hari amakoro hari n'ibyatsi. Ntabwo hari hatunganywa kugira ngo babashe guteramo imbuto izatanga umusaruro.

Uruboga rwitwa isogo n'urubuga rukundwa n'abantu bakuze bakecuru b'abasaza. Rukaba rusharira rugira utubuto tw'umukara, umuntu akeneye kurutera yadusesa aho hantu yaduseshe naho hamera isogo.